Ni umugabo ufite imashini mu mugongo ari kuhira imyaka isa icyatsi, harimo n'indabyo zisa umuhondo, yambaye umupira w'umweru urimo amabara y'umukara ndetse yambaye n'ipantaro y'umukara.

Mu mazi harimo abagabo batandatu harimo uwambaye ubusa hejuru, harimo uwambaye umupira w'umutuku, hari uwambaye umupira w'ubururu harimo n'uburongo bw'umweru ndetse n'umukara, harimo ibyatsi bitoshye bisa icyatsi.

Ni ikidendezi cy'amazi, ku ruhande gato hari abantu benshi bayikikije, harimo abagabo abana ndetse inyuma yacyo gato hari inzu, ifite amabati y'umutuku ndetse isize n'amarangi y'umuhondo.

Ikiyaga kirimo amazi hirya yacyo hari ibyatsi bitoshye kandi hari amazi asa nabi, hirya kandi hari imisozi uretse imisozi kandi haboneka ibyatsi bisa nkaho ari birebire n'ibigufi.

Mu nzu harimo ibicupa, ibyo bicupa bisa umweru, inyuma hariho inka umutwe ndetse anditseho inkuyo, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru n'umukara, hariho ibara ry'umutuku, hariho ibara ry'icyatsi na ryo ryanditseho amagambo, hirya hariho udukarito dupfundikiye ndetse harimo imiti y'inka.

Mu murima w'icyayi harimo abamama bari gusoroma icyayi, hari umumama yambaye ikanzu yiziritse igitambaro mu nda, icyayi gisa neza gifite amababi y'icyatsi, gihinze neza kirabagariye, bari kugisomera mu ibase.

Ni umurima w'ibitunguru harimo n'imboga, akarima bakoze ko gukuramo imboga n'ibitunguru byo gukoresha bari gukora mu rugo, ndetse banategura ifunguro ryuzuye.

Ni mu murima hateyemo ibyatsi ni umurima usa nk'aho ntakintu na kimwe cyeramo usibye ko urimo ibiti byumye n'ibyatsi.

Ni mu murima harimo ibigori byarumye ibindi byarapfuye bifite amababi yumye ibindi bifite amababi bisa icyatsi ni umurima utabagaye.

Umurima munini, urimo urutoki ndetse nta muntu uri kurukorera, ntirubagariye, ntirushariye ndetse n'akajagari k'ingemu nyinshi ndetse n'igitoki cyannye ntabwo kiba kigaragara kubera ko nta suku iri muri urwo rutoki.

Ubuhinzi, ni umuririma uhinzemo gimu, uhinzemo, harimo inzu, harimo ikibanza, kubona imisozi, harimo indabo, harimo n'ubuhinzi bw'ubutaka, nta kintu kirajyamo.

Umurima w'imyumbati harimo ifumbire, irakoreye, irabagaye, isa icyatsi amababi yayo, hasi yayo harimo ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera.

Nimu muririma, umurima uteyemo ibirayi, umurima ugaragaza ifumbire, urafumbiye, ikirayi cyarazamutse, cyavuye mu butaka, gisa neza amababi yacyo arasa icyatsi.

Umurima w'inyanya, umeze neza, ufumbiye, uteye umuti, ziratukuye neza, ku musaruro wazo umeze neza ndetse no ku isoko zagurika kuko zifite isuku ihagije.

Ni ku nyubako nziza yubatse neza ndetse irimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara hari ibiti by'amapapayi asa neza akoreye isuku, ndetse uri muri iyo nyubako wese agahora asa neza kandi afite ubuzima bwiza.

Ni mu muririma munini, harimo umuntu yambayejiri y'umutuku, yambaye ingofero y'umukara, harimo imbuto zisa umutuku, zirasa neza ndetse arikuzisoroma.

Hari umurima w'ibigori wera, bifite amababi y'icyatsi, hirya hari amazu asakaje amabati, hakurya y'amazu hari imisozi iriho ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Ni mu kiraro cy'inka cyubatse neza gipavomye hasi sima, inka imeze neza ni inzungu igaburiye neza, irakamwa ifite icebe rinini ndetse isa neza, iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Ni mu kiraro k'inkoko, harimo inkoko z'inzungu, zirira mu dukoresho duteye imbere, aho zirya ibiryo bimanuka, hari inkoko z'insake, inkokokazi ndetse zifite aho ziba hejuru, zinywera amazi ndetse zikanaharira.

Mu kiraro cy'inkoko, harimo umugabo uhagazemo harimo inkoko z'inzungu, harimo insake, inkokazi ndetse n'umugabo yambaye pote, ipantaro n'ishati.

Ikiraro cy'ingurube cyubakishije ibiti, harimo ingurube iri mu mabara y'umweru ndetse inyuma yacyo harimo n'ibindi biraro by'ingurube, ni mu ifamu.

Ni mukiraro cy'inkoko harimo inkoko z'insake, harimo inko z'inoko kazi, hari aho zirira muri monjwari, harimo insake z'umweru, inkoko kazi z'umuhondo.

Hari abagabo bane umwe yambaye ga, ari kudoda inka, inka iraryamye, abandi batatu bari inyuma y'iwe barayifashe kugira ngo abone uko ayidoda.

Ni mu ishyamba ryiza ri inyamaswa, nini ziri mu mabara y'umukara n'umweru, hatemberera abantu batandukanye, yaba abanyarwanda, yaba abavuye hanze y'u Rwanda buri wese yahatemberera, akahavana ibyishimo.

Ni mu ishyamba harimo inyamaswa nziza n'ibyiza nyaburanga, aho abantu bose bajya bakabasha kuhakura ibyishimo ndetse buri wese agasubira mu rugo yishimiye, ibyo yahabonye hari ibiti byiza ndetse hari n'amashyamba meza ateye ubwuzu.

Ni ibyiza bitatse u Rwanda, hari amazi magari arimo ibyatsi nyaburanga, harimo inyamaswa nini ndetse igaragara neza, iri mu mabara y'umweru n'umukara ndetse n'umutuku, uhatemberera nzamushima.